Inoti z'amafaranga ya rimwe y'Amashinwa hariho isura y'umuntu n'amagambo yo mu gishinwa n'imibare isanzwe.

Alimantasiyo irimo ibicuruzwa harimo amaji, harimo ibikoresho firigo intebe ebyiri iy'ubururu n'umweru, umumama ufite agapaniye ku bibero ufite na telefone mu ntoki n'umukobwa nawe ufite telefone mu ntoki.

Abantu babiri umugore n'umugabo amasahani n'umunyu ibiryo, igikombe, ameza.

Inzu ya etage hejuru hakaba hariho inyuguti eshatu zo mu mabara abiri, inyuguti ebyiri zitukura n'imwe y'icyatsi. Mu idirishya ry'inzu hakaba harimo umuntu umwe, inzu ikaba ifite n'amabara atandukanye, umutuku n'umweru ndetse n'ibirahuri.

Isoko, abantu, moto, imodoka, umuhanda, karoti, imifuka.

Akazu ku mu'agent wa MTN, abagabo babiri, ibage, ingofero.

Abantu bane, abagore babiri, abagabo babiri, ibyuma, telefone, akazu ka emutiyene, hariyo abantu bategereje serivisi.

Amakaro, ameza, intebe, insinga, puberi, televiziyo.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'umutuku, imbere ubuso n'umweru, ikirango n'umukara. Iki cyapa kirereka abayobozi b'amamodoka ko imbere aho bari kujya hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi.